Umugore wambaye amarinete, wambaye umupira w'umweru harimo uturongo tw'umukara, akaba ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'ubururu, bakaba bafashe urupapuro rusa umweru handitseho amagambo yuko yatsindiye amafaranga ibihumbi magana ane.

Inzu nziza ifite ibara ry'umweru akaba ari inzu isakajwe amabati y'umukara imbere yaho hakaba hari ubusitani bunini bukaba bwiganjemo amabuye ndetse n'amatafari yabugenewe asaswa hasi yaho hakaba hari ubusitani buriho ibyatsi.

Icyapa kiri hafi y'umuhanda ufite ibara ry'umukara; kikaba ari icyapa nabwo kiri mu muhanda w'umukara uciyemo uturongo tw'umweru; ukaba uri hafi y'umusozi ndetse urimo kugendamo ikamyo y'umuhondo yaka amatara ndetse n'abanyonzi bagitwaye.

Abantu babiri harimo umutegarugori wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umugabo bose bigaragara ko yishimye, bakaba bafite amagare ndetse bose ba bari kugenda ku mucanga, hirya yaho hari amazi afite ibara ry'ubururu bwerurutse.

Inzu nziza y'ubwishingizi, akaba ari ishami nyirizina ry'ubwishingizi, bakaba bakorera mu nzu iri mu ibara ry'umweru, ibirahuri birebire ndetse n'ibyuma bifashe ibyo birahuri biririmo ibara ry'umukara ndetse hakaba hari amatafari ahiye afite ibara ry'umuhondo.

Umuhungu uhagaze ahantu hasa umweru wambaye umupira w’icyatsi cyerurutse akaba afite terefone arimo kwamamaza ubwishingizi bwa Sonarwa, nimero ibihumbi icyenda yo guhamagaraho.

Abagabo babiri barimo baramukanya bose bikaba bigaragara ko bishimye, bambaye imyenda yiyubashye irimo ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari umutegarugori ufite imisatsi miremire w'inzobe, akaba yambaye ishati y'umweru.

Agapapuro kamamaza ubwishingizi bwa sorasi irimo gushishikariza abamugana ko babugana nta kabuza, ko bakugoboka igihe waba umeze nabi, kakaba kari ku meza, iri mu ibara ry'igitakaye, hirya yaho hakaba hari umuntu wicaye n'agacupa.

Ubwishingizi Radiyanti bukaba bwakwishingira kuba wagenda aho ahantu ari hose ntakabuza, hakaba hari umugore ufite ibakapu bye ndetse n'ishakoshi akaba yambaye ishati y'umweru, ipantalo y'umukara ndetse n'umusatsi.

Umugabo uhetse umwana we bigaragara ko yishimye, umugabo akaba nta musatsi afite, umwana we akaba afite imisatsi isutse ndetse umugabo afite ubwanwa burimo imvi, yambaye ishati y'ubururu, umwana yambaye na we ishati y'ubururu, inyuma yaho hakaba hari muganga ndetse n'undi muntu wambaye ishati cyangwa se itaburiya y'ubururu.

Ipoto risa cyatsi rifite icyapa cyo kwamamaza gifite umuzenguruko usa kaki ry'umukara ndetse n'ibara risa ubururu bwijimye ryanditseho amagambo y'umweru, kikaba kiriho abagabo babiri.

Icyapa cy'ubwishingizi kiriho imodoka ifite ibara ry'umutuku yangiritse, bigaragara ko ishobora gusubirwa n'ubwishingizi, bikaba byanditseho amagambo gifite ibara ry'umukara ubururu ndetse n'umutuku.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi ndetse wambaye ipantaro y'umukara, akaba yicaye ku ntebe z'umweru acigatiye igitabo ndetse n'igikombe. Akaba arimo asoma inyuma ye hakaba hari ibirahure bibonerana ndetse biciyemo n'ibyuma by'umukara. Hakaba hari n'urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Ubusitani buteretsemo ubwatsi, ndetse bukaba burimo n'ibitaka, ikaba irimo, iteyemo n'ibiti, ndetse hejuru y'iyamamaza ririmo hakaba hariho ibintu bimeze nk'amabati, hirya yaho hari umusozi wuzuye amazu.

Uburyo bwa banki ya ekobanki bwerekana kwishyura amafaranga y'ishuri ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ku mazina Kanamugire hakaba hari ibara ry'ubururu ndetse bikaba byanditse mu magambo asa umweru.

Ubutumwa bufite ibara ry'umweru bwerekana itariki ndetse n'igihe amafaranga yoherejwe cya yabikujwe bitewe n'uko uwabikoreshaga yari arimo kubikoresha ndetse bikaba bikoreshwa n'uburyo bugezweho.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite imisatsi myinshi aba yagiye kugura imyenda, akaba yambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ikabutura y'umutuku, akaba afite ishati mu maboko ye isa icyatsi cyerurutse.

Iduka rigurisha imitako yakozwe n'intoki z'abantu harimo uduseke, bikaba biri ku kabati gasa umweru imbere y'urukuta rusa umweru harimo imirongo y'umukara, bikaba bigaragaza ubwiza bwa gakondo ndetse hakaba harimo n'ibintu bigaragara nk'amasahani ndetse n'amarangi agiye atandukanye.

Imitaka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye haba amakanzu ndetse n'amapantalo byose bikaba bikozwe mu bitenge bigiye bifite amabarage atandukanye harimo umweru umutuku ndetse n'umukara bikaba byose biri ku meza ndetse n'ibindi bifashe ku gikuta kiri mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi yagenewe imideli ikaba ari inzu hanze ifite imyenda y'abagore itandukanye harimo ibara ry'ubururu, iroza, umweru n'umukara n'ibindi bigiye bitandukanyeho hakaba hari imipira ndetse n'amakoti y'ubwoko bugiye butandukanye.

Iduka ry'ubucuruzi rikaba ryiganjemo ibikapu by'abagore bikaba bifite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'igitaka, byinshi bikaba bibitse mu tubati tugiye dutandukanye dufite ibara naryo ry'umutuku, akaba ibindi biri ku ntebe iri mu ibara ry'umutuku.

Ahantu hakorerwa kandi hagurishirizwa inkweto ziri hasi z'abagore n'abagabo, zikaba zikorwa mu mapine ndetse no mu masaro zisa umukara kandi zikaba zinafunguye, banagurisha amasahani ashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye.

Iduka r'yimyenda, rikaba ari iduka ryiganjemo imipira yifungiye ahantu. Ikaba yiganjemo imipira ifite ibara rigiye ritandukanye y'icyatsi, umweru, ubururu, n' umutuku ndetse n'iroza. Bikaba inyuma hari igikuta gifite ibara ry'umuhondo hejuru hari amatara, ndetse n'ibiti.

Inzu y'imideri, ikaba irimo imyenda igiye itandukanye yiganjemo: imipira, amapantaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ikaba ari inzu ifite ibikuta by'umweru, ndetse ikaba iteyeho icyapa cy'ubwamamaze, bwanditse mu magambo y'umweru, ndetse ikaba iriho n'utubati tugiye dutandukanye.

Igikapu gifite ibara ry'igitaka, kikaba gifite n'imishumi yo gufatiraho kikiba gikunda gukoreshwa n'abategarugori hirya no hino, kikaba cyarafashwe gihagaze ku kintu kibonerana kimeze nk'ikirahuri.

Ibikapu bikoreshwa mu rugendo rurerure, hakaba harimo ibisa umutuku, umukara ndetse n'umweru, bikaba biri ahantu bipakiye bitegerejwe ko abantu bava kubifata cyangwa se bishyikirizwa ba nyirabyo.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse, ikaba ari inzu ikorerwamo imyenda y'imideli, ikaba yandikishijeho amagambo yerekana ibihakorerwa binyujijwe mu mabara y'ubururu, ndetse n'umweru. Imbere yaho hakaba harimo gutambuka umuntu ufite imisego mu ntoki ye, ndetse arimo yitegereza iyo nzu

Imodoka y'ibara ry'umukara, ikaba iri mu bwoko bwa Toyota, ikaba iparitse mu kibaya kirimo amatafari yabugenewe. Hirya yaho hakaba hari indi modoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ikaba yanditsweho amagambo y'ubururu.

Abagabo babiri barimo guhererekanya urufunguzo rw'imodoka, bakaba bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ihagaze mu busitani bw’ubakishije amatafari ndetse yabugenewe hasi.

Imodokari yabugenewe ikoreshwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure n'amapine y'umukara ikaba ihagaze mu busitani bu ukozwe n'amabuye ndetse n'ibyuma bikaba imbere yaho hari umugabo wambaye ishati akikiye urufunguzo bose bakaba bahagaze imbere y'inzu nziza ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahuri.

Ibinyabiziga bizwi nk'ibitwara abantu bikaba bihagaze ahantu hanini akaba ari bine bisa umweru, inyuma yaho hakaba hari inzu yubakishijwe amabati.

Abagabo babiri barimo bahererekanya urufunguzo rw'imodokari, bakaba bahagaze mu busitani bwubakijije amatafari meza ndetse inyuma yaho hakaba hari ibinyabiziga bibiri, kimwe gifite ibara ry'umuhondo ndetse ikindi gifite ibara ry'umweru. Inyuma yaho hakaba hari igikuta gifite umweru ndetse cyubakishije amatafari y'umweru.

Inzu nziza iriho icyapa cyamamaza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imodokari y'ubwoko bwa yundayi, imbere yaho hakaba hari igiti gifite ibara ry'icyatsi, hasi yaho hakaba hari amatafari yabugenewe akunda kubakwa hasi aho abantu bagenda.

Abagabo babiri barimo baramukanya bambaye amashati y'umweru bose, bakaba bambaye ipantaro umwe y'ubururu undi iy'umukara. Babaka bahagaze imbere y'ibikamyo bifite ibara ry'ubururu ndetse n'ikindi gifite ibara ry'umweru. Byose bika biparitse mu busitani biteretsemo amatafari yabugenewe.

Umuntu w'umunyafurika ufite ibiganza bibiri bifasha amafaranga hamwe akaba ari make afungiye hamwe n'inoti nyinshi, akaba yambaye ishati y'umweru ndetse akaba mu ntoki ze afite amafaranga y'amadolari akunda gukoreshwa mu gihugu cy'Amerika ndetse akaba afite agaciro k'inote mirongo itanu.

Amafaranga afite agaciro k'ijana ndetse akaba ari amafaranga ari mu buryo bufungiye hamwe bwinshi, hakaba hirya hari mubazi ibara agaciro k'amafaranga uko agenda abara, akaba afashwe n'ikiganza cy'umunyafurika gifite inzara z'umweruro.

Ukuboko k'umuntu gufashe amafaranga menshi afungiwe hamwe, akaba ayafashe arimo kuyabara bigiye bitandukanye, akaba ari mu bwoko bw'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu, imbere hakaba hari imashini ishinzwe kubara amafaranga.

Umugabo urimo abara amafaranga akaba ari amafaranga ari mu bwoko bw'ijana ndetse amadorari, amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Amerika akaba yambaye ishati y'umweru ndetse bigaragara ko nta musatsi afite, inyuma ye hakaba ari igikuta cy'umweru ndetse akaba hari na kamubazi kabara ayo mafaranga.

Inote y'ibihumbi bitanu y'amafaranga y'u Rwanda ikaba yerekanywe imbere n'inyuma y'inyu aho imbere haragaragara abakobwa bari kubyina imbyino za Kinyarwanda ndetse inyuma hakaba hagaragara inzu ya banki nkuru y'u Rwanda.

Umugabo ucigatiye amafaranga mu ntoki ze akaba hari amafaranga afite ibara ry'umutuku, ubururu ndetse akaba afite agaciro kaminoti mirongo itanu hasi yaho hakaba hari mudasobwa ndetse n'ububiko bw'amafaranga.

Umuntu wirabura ufite amafaranga mu ntoki akaba yambaye ishati yicyatsi kijimye yambaye isaha y'umukara ndetse bigaragara ko ari n'ahantu mu ibiro ari kubara amafaranga.

Abantu babiri bari gukora ivunjisha ry'amafaranga, umwe atanga amafaranga y'abanyamahanga ndetse n'undi amuvunjira andi, umwe akaba yambaye umupira usa umutuku harimo uturongo tw'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umweru acigatiye amafaranga y'ubwoko bw'igihumbi ndetse n'ijana, hakaba hari inoti nyinshi zose zifungiwe hamwe, muri izo noti nyinshi zikaba zifite ibara ry'mweru ndetse n'icyatsi kerurutse.

Inoti y'igihugu y'u Rwanda igihumbi, akaba ryayandikishijwe mu ibara ry'umukara ni hejuru. Hasi yaho ikaba byagishijwe mwibara ry'ubururu, ndetse hagati hazaba hariho ishusho ry'ibiti ndetse n'imisozi n'ibibaya.

Akabati gakozwe mu cyuma kapanzeho ubujerekani buto bubikwamo amata ndetse n'amazi se yaho akaba ari ibifunzemo ibindi bintu bigiye bizwimo nk'ikivuguto hasi yaho hakaba hari icyuma k'icu babikamo amata kugira ngo amare igihe kirekire cyangwa bayatwara bayavana ahantu hamwe bayajyana ahandi.

Abagabo babiri umwe yicaye undi ahagaze arimo guhereza umutegarugori wambaye umwenda w'umutu, muri abo bagabo inyuma umugabo uhagaze hakaba hari kabati karimo imika ndetse n'ibindi biribwa.

Akabido kwifashishwa kabika ibintu bigiye bitandukanye, kaba gafite ibara ry'umweru, kaba kanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, kaba hahagaze ahantu hafite ibara ry'umukara, hirya yaho hakaba hahagaze umuntu ufite amaguru abiri.

Umukobwa urimo kugurisha mu iduka ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse harimo akabati, hakaba harimo n'igikuta gisize irange risa umweru, kaba harimo intebe y'ubururu, hakaba harimo imeza isa kaki ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Utubido ndetse n'ibipapuro byabugenewe byose byifashishwa bibikwamo amata ku buryo yamara igihe kirekire, twinshi muri byo bikaba bifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse na kaki ndetse n'icyatsi.

Akabido k'umweru gakunda gukoreshwa kabika ibintu bitandukanye. Kakaba kariho amagambo yanditseho. Gafite ibara ry'umweru, kaba gateretse hasi ku sima. Sima ifite ibara ryerurutse, umukara. Ndetse hirya yaho hakaba hari intebe y'ubururu.

Ibicuruzwa bikozwe mu mata, biri mu icyuma gikonjesha, hakaba harimo n'icupa ry'amazi, kimwe mu bicuruzwa bikorwa mu mata, hakaba harimo ikiri mu icupa risa umutuku werurutse.

Abagabo babiri bicaye bacigatiye ibikombe, byose birimo amata. Imbere yabo hakaba hari ameza, ari mu ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho utubido turi mu ibara ry'umweru, turimo amata, undi akaba ahagaze arimo kubasangiza amata.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Umugore urimo amwenyura yamamaza banki ko yagufasha ikaba yanakugoboka. Ikaba ari uburyo bwakoreshwa ukoresheje murandasi utavuye aho uri; ukaba wabitsa, ukabikuza ndetse ukanohereza.

Icyemezo cyerekana kwishyura umusoro kikaba kiri ku rupapuro rusa umweru; cyandikishijweho amagambo y'umukara; kikaba gifite ikirangantego cya leta ndetse n'ikirangantego cy'ikigo gishinzwe kwishyura imisoro.

Urupapuro rwa RRA, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro akaba ari urupapuro rwuzuzwaho imyirondoro y'ubifashe, kuba yabasha kwishyura imisoro ye, hakaba hariho imibare iranga ibyo yishyuriye imisoro bikaba byandikishijwe mu mabara y'umuhondo, umukara ndetse n'andi mabara.

Inote z'ikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde akaba ari noteri iriho umugabo wambaye amadarubindi ndetse akaba bigaragara ko ari umusaza ufite uruhara kaba ari inote ifite agaciro k'amafaranga ya magana abiri ndetse igabanyijemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'icyatsi.

Amafaranga ari mu ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku akaba ari amafaranga akunda gukoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde. Hakaba hariho umugabo wambaye amadarubindi arimo amwenyura w'umusaza ufite uruhara, ndetse akaba afite ibciro bigiye bitandukanye harimo ay'icumi menshi.

Inoti ebyiri zicigatiwe n'umugabo zikaba ari inoti zirimo ubwoko bw'igihumbi ndetse na magana atanu, zikaba zirimo umugabo wambaye amadarubindi ndetse bigaragara ko ari umusaza waba ufite uruhara, inyuma ya hakaba hari amatara agiye amurika amabarage atandukanye arimo umweru ndetse n'umutuku.

Umuntu uri kubara amafaranga y'abanyamahanga; wambaye isaha isa umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu; akaba asa imibiri yombi; ahantu ari hakaba hari intebe isa ubururu ndetse n'icyatsi cyerurutse; ndetse n'urukuta rw'umutuku.

Amafaranga yakoreshwa mu gihugu cy'ubushinwa akaba ari amafaranga afite ibara ry'umutuku akaba ari umugabo ufite uruhara ndetse n'umusatsi ku ruhande y'uruhara hari urwara ifashwe n'umugabo ufite intoki z'umweru ndetse ikabagaragara n'inzara zimbaye ishati y'umweru ndetse amafaranga akaba afunze mu buryo bwa rusange menshi.

Amafaranga arimo ahererekanya ku muntu umwe uyajyanira undi, afite agaciro k'ijana ndetse akaba akunda gukoreshwa mu gihugu cy'Amerika, hakaba hariho umugabo ufite uruhara ndetse ku ruhande rw'uruhara rwe hakaba hariho imisatsi miremire, akaba yambaye ishati y'umweru.

Umugabo urimo abara amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo amafaranga afite ibara ry'umuhondo umweru ndetse n'umukara, akaba arimo kubara amafaranga afite agaciro ka magana abiri ndetse n'ibihumbi bibiri.

Amafaranga y'ubwoko butandukanye, yifashishwa n'abantu bahaha ndetse banagurisha ibintu. Kuri ayo mafaranga hakaba ariho umugabo ugaragara ko afite imisatsi y'umweru, akaba yanditseho ijana, ndetse n'ayandi yanditseho igihumbi.

Umuntu w'imibiri yombi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro isa umukara, akaba afite amafaranga menshi mu ntoki arimo kuyabara, hakaba hari igitambaro gisa umweru ndetse n'umukara ku ruhande rwe.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inote. Akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde, hakaba hariho umugabo wambaye amadarubindi urimo guseka n'umusaza ufite uruhara. Ndetse akaba ari mu bwoko bugiye butandukanye bufite agaciro kagiye gatandukanye ari mu bwoko bw'inote za magana atanu.

Urutonde rw'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga yarwo, agaciro k'amafaranga yarwo uko agenda agira agaciro, uko agenda bayagura, agenda avungishwa hirya no hino ku isi, ndetse n'ibigihugu akaba yiganjemo leta zunze ubumwe za amerika, ubushinwa ndetse no Australia.

Abategarugori babiri bose barimo bahererekanya amafaranga, bikaba bigaragara ko bishimiye barimo guhabwa serivisi ndetse n'urimo kuyihabwa, akaba umwe ateze igitambaro mu mutwe we cy'umutuku ndetse n'umweru, akaba yambaye ikoti y'umukara, undi akaba yambaye igitenge gifite ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'andi mabara.

Umuntu ufite amafaranga y'abanyamahanga arimo kuyabara akaba yambaye ikanzu, akaba asa imibiri yombi ndetse ikanzu yambaye ikaba isa umukara.

Inote y'amafaranga icumi, ikaba isa ibara risa umutuku werurutse wandikishijweho amagambo asa umutuku wijimye, hakaba handitseho Congo hariho ibishushanyo bibiri birebana.

Abantu babiri bicaye bari kuburara amafaranga, umwe afite amafaranga atandukanye n'ay'undi ari barira ku meza isa umukara, arimo utuntu tw'umweru, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse undi yambaye ishati y'umukara.

Icyapa cya banki ya bipiyara, kiba kiri mu bara umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku, kikaba gifashe ku gikuta gifite ibara ry'umweru, ndetse hirya hakaba hagaragara igiti gifite ibibabi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'icyuma cya mumaza gihehereza amafaranga gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Aho bavungishiriza amafaranga agiye atandukanye akaba ari ishami ry'abahinde rikorera inaha i Kigali ndetse bikaba byandikishije mu magambo y'ubururu ndetse bikaba inyuma hari icyapa byanditseho icyapa inyuma cy'umweru.

Inzu y'ubucuruzi yagenewe kuvungisha amafaranga ikaba irimo kwamamaza yanditseho amagambo. Amagambo yandikishijeho ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse ikaba irimo kwamamaza na Airtel. Imbere yayo hakaba hari umuntu urimo aratambuka yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Ahantu bakorera ivunjisha ry'amafaranga y'abanyamahanga hakaba hari ibikuta bisa umweruru ndetse n'inzugi zisa umweruru, hari n'icyapa gisa umuhondo handitseho ibiciro by'igura n'igurisha mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku.

Icyumba kirimo intebe zikozwe mu byuma ndetse kikaba ari kinini, kirimo amadirishya arimo gutanga urumuri ndetse n'ibirahure ndetse hejuru hakaba hari amatara arimo kumurika, imbere hakaba hari igishushanyo kirimo kwamamaza.

Umuhanda ufite ibara ry'umukara ukaba uciyemo imirongo y'umuhondo ndetse hirya hakaba hari akayira k'abanyamaguru kabugenewe, hirya hakaba hari abantu barimo kugenda binjira mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye, iriho ibyapa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu n'umutuku.

Inzu itangirwamo serivise z'ubucuruzi ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ikaba ifite ibikuta ifite amabara y'umweru ndetse ugarutse imbere ya aho batangira serivise hakaba hari ibirahuri ndetse na mudasobwa.

Ameza akozwe mu giti ndetse n'icyuma akaba ari ameza maremare meza yakozwe muburyo bugezweho imbere yaho hakaba hari imetero ndetse n'ikaramu akaba ateretse ku yandi meza yakozwe mu giti hirya hari ubusitani buteyeho ubwatsi.

Ibikoresho byo mu nzu bikozwe mu rubaho. Hakaba higanjemo intebe, ameza ndetse n'utubati. Hirya yaho hakaba hari umuntu wambaye imyenda yabugenewe y'akazi akaba arimo gukora utubati bigaragara ko yishimiye akazi arimo gukora. Hirya yaho hakaba haparitse ikinyabiziga gifite ibara ry'ubururu, ndetse giparitse iruhande rw'inzu ifite ibara ry'ubururu, ndetse isakajwe n'amabati afite ibara ry'umutuku.

Ameza meza ateye mu buryo butangaje, akaba akoze mu rubaho ndetse hejuru hakaba hariho ikirahure gikoze neza, ikaba iriho n'intebe zikoze mu rubaho, ibyo byose bikaba bihagaze ku makaro hasi hafite ibara ry'umukara.

Intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ameza byose bikaba biri mu busitani byubakishijwe sima ndetse ikaba imbere hari inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse ifite inzugi ziriri mu bwoko bw'icyuma bifite ibara ry'ubururu.

Ameza, utubati n'intebe byose bikozwe mu rubaho; ndetse n'intebe ikaba ifiteho imisego y'imikara. Hiriya hakaba hari inzu yubakishije amabati ndetse n'imbaho z'amadirishya, byose bikaba biri ku butaka buteyeho ibyatsi.

Intebe iteye amabengeza, ikaba ari intebe ikozwe mu bwoko bw'igiti ndetse ikaba ihagaze ku karo ry'umweru, inyuma yaho hakaba hari igikuta kiri mu ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi harimo ibintu bikozwe mu mbaho higanjemo utubati tubiri dukozwe mu rubaho rwalibuyu iruhande rwayo ndabona intebe hejuru yaho hakaba hari amatara ndetse inyuma yaho hakaba hari ikibambasi ubona cyubakishijwe amatafari ndetse n'umucanga kikaba gisizwe irangi ry'umweru hejuru yaho hakaba hari amatara abiri yaka neza cyane .

Umuhanda ufite ibara ry'umukara, ukaba ari umuhanda uri imbere y'inzu igeretse, ifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya. Ikaba icanyeho amatara ndetse iruhande rw'umuhanda hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru gateyeho amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse imbere yaho hakaba haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru.

Inzu ikoze neza ifite ubwiza butangaje; ikaba igizwe n'ibirabo bifite ibara ry'icyatsi; bikaba hariho n'ibikuta biri mubara ry'umweru, imbaho zifite ibara ry'ishokora ndetse n'amatara yaka neza!

Ubusitani bwiza bwuzuye ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n' ibiti bifite ibara ry'icyatsi n'indabo biri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kirurutse. Hagati yabo hakaba hariho intebe, itente n'ameza byose byifashishwa n'abantu biyakira. Hirya yaho gatoya, hari amazu ubona abantu babamo.

Aho bakirira abakiriya bagana ibikorerwa muri ino nzu, hakaba hatangirwa ubufasha bugiye butandukanye, ndetse imbere yaho hakaba ari ameza afite ibara ry'umweru, ndetse hakaba hahagazemo umutegarugori w'imisatsi miremire, ishati y'umweru ndetse n'ikoti y'umukara, imbere ye hakaba hahagaze umwe yambaye ipantaro y'ubururu.

Ubusitani bwiza bakiyakiriramo ndetse aka ubusitani buteretsemo intebe ndetse n'ameza bifite ibara ry'umukara ndetse bukaba butemo ibyatsi ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye hirya yaho hakaba hari uruzitiro rukozwe mu byuma ndetse n'umucanga hirya yaho hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, ikaba igizwe n'ibirahuri ndetse n'imigozi igiye imanutseho, imbere yaho hakaba hari aho abantu bakicara biyakira, intebe zigezweho ndetse n'ameza, hakaba hariho n'imitaka yabugenewe ikozwe muri iyo ntebe.

Ubusitani bwiza bufite ibyatsi karemano biri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, haruguru gatoya hakaba hari inzu ibi ifite ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'ibirahure, hino yaho hari aho bogera, hari amazi afite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'uturongo tw'umukara.

Ubusitani bwizaka akaba ari ubusitani butetsemo ibyatsi by'ubwo bwiza bugiye butandukanye kikaba kiteyemo itente ifite ibara ry'umweru ndetse n'intebe zigiye zitandukanye zisiza amabara y'umutuku w'ubururu ndetse n'andi mabara, hirya y'aho hakaba hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hagaragaramo nk'igicu gifite ibara ry'umweru ndetse n'ikirere cy'ubururu.

Inzu nziza igeretse, ikaba ari inzu igaragara ko ifite ibara ry'umuhondo, ikaba itatseho amatara ndetse ibiti iruhande rwayo, ndetse n'umuhanda, umuhanda ukaba urimo kugendamo imodokari z'ubwoko butandukanye bwiganjemo imodoka z'ibara ry'umukara, umweru, imbere hakaba hariho abantu bahagaze barimo kwitegereza.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ari inzu iteye amabengeza, ifite ibirahuri by'ubururu ndetse imbere yaho hakaba hateyeho ubusitani buteye ibyatsi ndetse n'ibiti by'ubwoko bigiye butandukanye, imbere yaho na bwo hakaba hari umuhanda ufite ibara ry'umukara ndetse n'akayira kabugenewe k'abanyamaguru.

Ubusitani bwiza bwuzuye ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi, ibirabyo by'umweru ndetse n'ibindi birabyo bifite ibara ry'icyatsi, hakaba hateretsemo itene ifite ibara ry'umukara ndetse n'intebe z'umukara n'ameza, ndetse hirya hakaba hari ibyuma birinda abasazi.

Ubusitani bwiza bufite indabo, ibiti, ndetse n'ubwatsi byose bifite ibara ry'icyatsi. Hakaba hateyemo itente, intebe, ndetse n'ameza byose ushobora kwicaraho wiyakira. Hirya gatoya hari inzu yabugenewe, ubona ko abantu babamo.

Inzu nini igeretse ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahuri hasi yaho akaba ari aho abantu biyakirira hari intebe z'umweru ndetse n'iz'umuhondo, imbere yaho akaba ari aho binjirira hagizwe n'ibirahure.

Ahantu hakwakiriwa uwo ukunda cyangwa se hakakirirwa inama runaka, hakaba hafite intebe ndetse n'ameza byose bikozwe mu rubaho, hirya yaho hakaba hari umuntu urimo kugenda wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru ipantaro y'umukara ndetse hirya hakaba hari ibyatsi n'uburabyo bigiye bitandukanye.

Inzu iri mu ibara ry'umweru bigaragara ko ikunda gukoreshwa nk'aho abantu biyakirira cyangwa se baryama, iyi nzu ikaba yubatse mu buryo bugezweho bufite ikingishijwe n'amadirishya ari mu ibara ry'umukara hirya yaho hakaba hari uturabyo ndetse hakaba hari n'ikirere gifite ibara ry'ubururu.

Ubwishingizi bwa purayimu, bukaba ari ubwishingizi bufite ishami hariya i Nyamirambo, bukaba bukorera mu nzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hariho amadirishya afite ibyuma bisa umuhondo ndetse n'ibiyo.

Umutegarugori ndetse n'umugabo bose bicaye ku ntebe z'umweru, akaba umugabo arimo kugezaho ubutumwa umutegarugori ndetse umutegorugori amuteze amatwi aba bose bicaye hagati y'imeza iriho igishushanyo cya MTN.

Abantu batatu bari kugenda mu muhanda umwe ari kwirukanka ndetse hari ibyapa hakaba hari n'inzu ifite ibara ry'ubururu handikishinjwemo amagambo y'umweru ndetse ku ruhande hariho n'irindi bara ry'umweru .

Inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi ikaba ari inzu ifite ibara ry'icyatsi n'umweru ndetse n'inzugi z'umweru, zikozezwe mu byuma zifite amadirishya y'umweru ndetse iri hejuru y'aho idirishya rikaba ribanditseho igishushanyo cy'umugore uurimo aseka.

Ameza afite ibara ry'umweru ndetse hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse agifite ibara ry'umutuku, hirya y'aho hakaba hicaye umuntu, yicaye ku ntebe y'umweru yambaye imyenda y'iyubashye, ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara.

Inyubako igeretse gatatu yanditseho amagambo asa umweru sonarwa ikaba ifite ibara risa umuhondo ndetse n'ubusitani burimo ibiti byinshi bisa icyatsi.

Abagabo babiri bagannye serivisi za salam cyangwa soras ,bakaba ari abagabo umwe arimo asohoka undi bigaragara ko arimo kugenda ajya aho batangira izo serivisi, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikaruvati y'ubururu n'ipantaro y'umuhondo.

Icyapa gifashe ku nzu kikaba ari icyapa cyamamaza imodokari ndetse kikaba kiri mu bara ry'umweru ndetse imodokari ifite ibara ry'ubururu ndetse hejuru yaho hakaba hari amagambo yanditse ko umuntu ashobora kubona ubwishingizi bw'imodoka ye byoroshye bikaba biri mu byapa by'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru inzu ikaba ifite ibara ry'umweru.

Beka ikomeje gushishikariza abaturarwanda ndetse n'abayigana, ko ifite ishamiri zigiye zitandukanye, aho bagiye bashyira ibyuma byo kubikuza hirya no hino, bakaba hejuru naho hakorerwamo ubwishingizi bugiye butandukanye.

Icyapa kiri ahantu ha nijoro hari imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara ndetse n'ibirahure, kikaba cyanditseho mowa Nyabugogo ndetse na nimero, kikaba gisa umweru n'ubururu.

Inzu yagenewe ubucuruzi igeretse ikabafi iri mu ibara ry'ubururu, ikaba itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye ziganjemo iz'ubwishingizi ndetse n'iz'abanoteri, hejuru yaho hari ikirere gisa ubururu ndetse n'ibicu by'umweru.

Ni inzu yagenewe mu bucuruzi ikaba inzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye za koperative ndetse n'ibindi bitandukanye, ikaba ifite ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, ifite inzugi zirimo ibara ry'ubururu imbere y'aho hakaba hari imyenda igiye itandukanye y'ubururu n'umuhondo ndetse n'umweru.

Akabutike gahagarariye emutiyeni Rwanda gacuruza amayinite amakarita amasimukadi gashobora no kugufasha kuri serivisi z'indi wawukenera kuri emutiyeni mobayire mani iyi nikiyoswe ushobora gusangamo serivisi za emutiyeni muga mobayire mani.

Imbere yanjye ndabona iyamamaza ya rya esibiyeyi mu magambo y'umutuku agira ati yigure cyangwa uyubake berekana n inzu ishushanyije mu ibara ry'umweru ihagaze mu twatsi dufite ibara ry'icyatsi inyuma yaho hari ikirere gisa ubururu bwerurutse harimo n'ibihu bymweru ibicu by'umweru irerekana uburyo wakwishyura n'ikarita esibiyeyi yanditse visa.

Umugabo muremure wambaye amadarubindi n'imyenda yiyubashye, isa ubururu ndetse n'ishati y'umweru akaba arimo kugenda aseka, ubona ko yishimye, hirya yaho hakaba hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hakaba hari ibara ry'ubururu ndetse n'ikaderi ry'icyatsi.

Umugore wishimye urimo amwenyura wambaye imyenda isa umweru ndetse n'ikanzu isa umutuku akaba yiteze igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'umweru ndetse n'amaherena akikiyeho fone imbere yaho hakaba hari amagambo yandikishije amabara ry'umukara ndetse n'umweru.

Ibiceri bigiye bisumbanya biri mu ibara rya zahabu bikaba byerekana ko hariho umuheto ugondamye ufite ibara ry'icyatsi, hirya yaho hakaba hari amagambo yanyikishijwe mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'umukara akaba hasi yanditseho Bipiyara banki ndetse na Beka banki.

Umugabo wicaye wambaye imyenda yiyubashye akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara akaba arimo areba mu kirere yishimye bigaragara ko asa nk'uwatsinze akaba azamuye akaboko ke yafunze igipfunsi akaba acigatiye urupapuro rufite ibara ry'umweru, imbere ye hari ameza ari y'igikombe cy'umweru ndetse na mudasobwa.

Ndetse na NCBA ishobora kukwishingira waba wagize ikibazo, cyane cyane ikunda kwishingira abatwara ibikamyo ndetse n'ibindi binyabiziga byose. Ibikururana cyane cyane kubera ko aribyo byibasira n'impanuka nyinshi.

Uyu ni umwe mu mihanda ishobora kuba igaragara mu Rwanda, aho bagaragaza agace imodoka nk'izitwaye abagenzi cyangwa se n'izitwara imizigo zishobora kuba zahagarara umwanya muto mu gihe cy'akaruhuko.

Ahagenewe ubucuruzi hazwi nk'isoko, hakaba hacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye birimo ibitoki, inyanya, ibitunguru ndetse na karoti, hakaba hahurira abantu bagiye batandukanye harimo abaguzi ndetse n'abagura.

Umusore wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru, akaba yicaye afatanyije amaboko areba imbere ye ndetse akaba arimo aseka yerekana amenyo, inyuma ye hakaba hari ibintu bigiye bitandukanye by'ubucuruzi bikoze mu rubaho ndetse n'ibitenge byifashishwa batwara ibintu cyangwa se uduseke.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umuhondo , umutuku ndetse n'icyatsi kerurutse hepfo yaho hakaba hahagaze abantu n'imbaga nyamwinshi . Muri bo bakaba bahetse ibikapu bigiye bitandukanye ndetse higanjemo n'abana bato bambaye imipira y'umutuku ndetse n'umweru.

Abantu baremye isoko mu muhanda ry'ibiribwa harimo ibitoki, ibijumba n'imyumbati ndetse hakaba hahagaze bagore babiri n'abandi bantu baje guhaha bigaragara ko bitabiriye.

Iduka rigurisha ibintu bijyiye bitandukanye cyane cyane ibitenge ndetse n'imipira, hakaba hari n'ibikoresho by'imitako, hakaba har’imipira y’umukara, ndetse n'ibitenge birimo amabara y'ubururu n’umukara ndetse n'ibara rya orange.

Abategarugori bane umwe akaba yicaye yiteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe we, akaba yambaye imyenda y'ubururu. Abandi babiri bakaba bahagaze barebana n'undi uhagaze mu muryango, bose bikaba bigaragara ko barimo kugura no kugurisha, hirya yabo hakaba hari imifuka irimo ibintu by'ibiribwa.

Umugore uri mu isoko wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'agapapu kari mu nda k'umukara hakaba hari imodoka y'igikamyo isa ubururu ndetse n'umugore uryamye imbere y'ibicuruzwa bye yambaye igitenge cy'umuhondo.

Isoko ririmo abantu bari gucuruza imbuto harimo imyembe, amaronji, indimu, ndetse hakaba hari n'imineke, hakaba harimo n'icyuma kizimya umuriro gisa umutuku.

Ahantu hazwi nk'isoko hakaba hacururizwa ibintu by' ibiribwa bigiye bitandukanye, hakaba higanjemo abacuruzi ndetse n'abaguzi muri abo bacuruzi hakaba harimo urimo acaguramo imyumbati ndetse na karoti, hirya yabo hakaba hari umugore usa nkaho yaciye bugufi.

Umutegarugori burimo aracuruza, acuruza ibintui bigiye bitandukanye by'ibiribwa higanjemo ibitunguru, amakaroti, inyanya ndetse n'amashu, ndetse inyuma hakaba hari undi witandiye ikintu cy'igitambaro ndetse n'umwenda w'umuhondo, inyuma akaba ari igiti gifite ibara ry'icyatsi.

Imbaga nyamwinshi yateraniye ahantu hamwe, ikaba ari imbaga yitabiriye ibikorwa bya Airtel, hakaba hirya haparitse amapikipiki ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'abandi bantu bayikikije, hakaba hariho amatente Airtel ndetse n'amabaro.

Isoko ry'ibiribwa bigiye bitandukanye muri ibyo biribwa harimo ibitunguru, amashu ndetse n'ibihumyo. Bikaba ari mu isoko hariho n'ibiciro byabyo bikaba byanditse mu ibara ry'umukara biri ku bipapuro byabyo by'umweru.

Umutegarugori uciye bugufi ufite imisatsi izinze myinshi, akaba yambaye isengeri y'umukara ndetse n'igitenge kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, akaba yicaye ahantu hitwa mu isoko, hirya y'aho hakaba ari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse bose bakaba bari mu isoko barimo kugura.

Inzu nini yabugenewe y'ubucuruzi igeretse ikaba ifite ibara ry'umweru, umukara ndetse ikaba irimo n'ibyuma hasi yaho hakaba hari abantu aho bicara ndetse n'ibiryo aho bicara intebe zikaba zifite ibara ry'umutuku.

Ahantu hazwi nk'isoko hacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba hari uwicaye acikiye fone mu ntoki ze, hakaba hari undi uri hirya yambaye imyenda y'ubururu ndetse bigaragara ari umutegarugori bakaba bose bacuruza ibintu byerekeranye n'ibitenge ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Isoko ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye akaba ari isoko ricuruza imbuto zigiye zitandukanye ziganjemo imineke, amaronji ndetse n'imyembe hakaba hari urimo kubigura agenda acakuramo ibyo ashaka, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'ubururu.

Aho batangira serivisi za emutiyene, ukaba wabitsa cyangwa ukabikuza ukaba wanakohereza, hakaba harimo umutegarugori ufite imisatsi miremire, yambaye ishati y'umweru, ndetse n'ikora ry'umukara, akaba arimo amwenyura areba imbere ye.

Akazu gaherwamo serivisi za airtel ndetse n'akandi byegeranye, kakaba karimo guherwamo ubufasha bwa MTN, imbere yaho hakaba hahagaze abakiriya barimo guhabwa serivisi zitandukanye, bambaye umupira w'umutuku ndetse n'undi yambaye umupira w'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Akazu gato ka emutiye kifashishwa mu kugurisha ifatanyabuguzi kakaba gasa umuhondo, kakaba kari imbere ku muhanda, hari ipoto y'amashanyarazi ndetse n'ibyapa bitandukanye, hakaba hari n'ibiti inyuma yako.

Inzu yifashishwa na emutiyeni yamamaza mbere yaho hakaba huzuye abantu bambaye imipira ya emutiyeni isa n'umuhondo ndetse n'abandi babakiriya bose bakaba bahagaze imbere yayo barimo kugana abandi barimo kugenda bareba ndetse iyo nzu ika ifite ibara ry'umuhondo.

Emutiyeni ikomeje kugeza serivisi zayo ku bakiriya ndetse n'abayigana, ikaba yongeye kwegera abakiriya yiyamamaza ifite ibara ry'umuhondo ndetse yandikishije Emutiyeni mu ibara ry'umukara hakaba hahagaze imbere umusekirite ndetse n'abaguzi.

Abagabo babiri n'umukobwa umwe basuhuzanyije, bahagaze imbere y'akazu bagurisha ifatabuguzi gasa umutuku ndetse kakaba kari imbere y'inzu ifite irange risa umweru n'ubururu hamwe n'umukara.

Ibiganza bibiri bifite amatelefone agiye atandukanye mu biganza byayo, bikaba birimo guhererekanya bikoresheje uburyo bugezweho bwa mudasobwa, hasi yaho hakaba hari mubazi ikoreshwa irimo kubara igiciro cy'ibyo waguze.

Akazu ka MTN gakunda kwifashishwa n'abakorera MTN hirya no hino, kaba kariho telefone ndetse n'ibindi byerekana ko ari akazu ka MTN, uwifuzako yahabwa serivise za MTN ko yakagana byoroshye.

Abategarugori batatu, umwe wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi, undi bakaba bafite imisatsi miremire bakaba babiri bambaye imipira y'imihondo ndetse n'undi wambaye umupira w'ubururu azamuye akaboko, ndetse inyuma yabo hakaba hari imitaka ifite ibara ry'ubururu.

Icyapa cya emutiyene cyanditseho amagambo y'umukara yerekana uko bakwishyura na momo, hakaba handitseho inuma tekinoloji, kanda ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe zeru zeru gatanu gatanu cumi na gatatu urwego.

Igishushanyo cya MTN kikaba giteretse ku meza, ameza y'umweru akaba ateretseho mubazi ebyiri zibara ibyinjiye ndetse n'ibyasohotse, hirya yaho hakaba hari telefone ndetse n’akabikwamo amadarubindi.

Umugabo wicaye wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, akaba akikiye telefone mu ntoki ze, yambaye agakomo ku kiganza ndetse hakaba hagaragara n'umusatsi we, hasi hakaba hari undi bigaragara ko yambaye inkweto.

Isoko risakaye benshi bazi nk'ahahahirwa ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, haba mu by'isuku ndetse n'ibindi bintu byifashishwa mu rugo, hakaba higanjemo abategarugori ndetse n'abagabo, hirya hakaba umufuka urimo ifu y'ubugari.

Ikinyamitende cy'amapine abiri kikaba ari ikinyamitende gifite irangi ry'umutuku umweru ndetse n'umukara kikaba cyicayeho ababigize umwuga bagitwara bambaye ingofero zabugenewe zifite ibara ry'umutuku mbese na bo bakaba banikoreye abandi bakaba barimo kugenda mu muhanda ufite ibara ry'umukara ukikijwe, akayira k'abagenzi hirya yaho hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umunyonzi ufite igare rye, akaba ahagaze yambaye umupira w'icyatsi, akaba yikoreye igikapu gifite ibara ry'icyatsi cyanditseho vuba vuba ndetse akaba ahagaze imbere y'urugi rufite ibara ry'umukara werurutse, hirya yaho hakaba hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi.

Amapikipiki akoreshwa mu buryo butandukanye, aya ngaya yo akoreshwa atwara ibiryo abigeza ku bantu b'abaturanyi cyangwa se abaturage, hakaba ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakaba nta bantu bicayeho, hirya y'aho hakaba hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi...

Ububiko bwi'ibyokunywa bukubiyemo imitobe umuhondo, umutuku n'amata bubitse mu buryo bwo kugirango bukonjeshwe bukunze kwifashishwa n'abacuruzi kugira ibyo kunywa bidapfa kandi babishyikirize abaguzi bimeze neza.

Ndetse n'ikoranabuhanga ntakongera kuba aho waba uri, ushobora kugura, kugurisha ndetse no gutumiza ibyo waba ushaka utavuye aho uri ukoresheje murandasi ndetse na telefone yawe yabugenewe byose bikaba byakugeraho ku buntu.

Aho bagurira ibintu bigiye bitandukanye bifashishijwe murandasi, aho berekana kugura inyama zikaranze amafaranga magana arindwi y'abanyarwanda, capati z'amafaranga magana arindwi y'amanyarwanda ndetse ibyo bintu bikaba byanditse mu amagambo asa umukara.

Ipikipiki itwawe n'umuntu hakaba hagahagaragara ikiganza cye, ndetse n'ikirahure cy'ipikipiki, hakaba hagaragaraho na mubazi ibara kuva ahantu hamwe ugera ahandi, ndetse bino bityo bikamufasha kuba yabasha kubara amafaranga yakoreye kuva ahantu hamwe agera ahandi.

Urugi rukozwe mu rubaho rukaba ari urugi ruri mu nzu igurishwa miliyo mirono irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba uherereye Kabeza i Kigali rukaba ari urugi rwerekana ko rufunga ubwiherero bufite amakaro y'umukara.

Uburiri bwiza busashe bukaba buriho umusego bukaba buri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara, akaba ari mu cyumba kigizwe n'ibirahuri ndetse n'ibibambasi biri mu ibara ry'umweru.

Inzu nziza iherereye i Kigali ikaba ari inzu ikodeshwa amafarangambi ibiro by'amadorari ku kwezi, ikaba ifite ibikuta by'umweru ndetse hasi ikaba ikozwe mu rubaho, ikaba ifite aho bazamukira n'aho bakozwe mu rubaho n'amadirishya hamurika mu gihe cya kumanywa.

Ikikoni cyubatse mu buryo bugezweho, kikaba ari ikikoni gifite ububati bukozwe mu mbabo, ndetse hejuru hakaba ari aho bogereza bashyira n'ibintu by'ibyombo bigiye bitandukanye. Hejuru na bwo hakaba hari utundi tubati dukozwe mu bibaho, hejuru hakaba hari amatara, ndetse hasi hakaba hakozwe na bwo mu rubaho rufite n'izugi hafunguye.

Icyumba cy'umweru gifite uburiri bufite amashuka y'umweru ndetse n'igitanda cy'umukara gifite amadirishya asa umukara ndetse n'urugi kikaba giherereye kacyiru.

Inzu nziza iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ikaba ifiteho amadirishya ari mu ibara ry'umukara ikaba ifite n'uruzitiro rukozwe mu byuma rufite ibara ry'umukara, ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda. Ifite ibyumba bibiri ndetse na saro.

Inzu ifite ibikuta by'umweru ikagira amadirishya asa umutuku wijimye, ikagira ububati busa umweru ndetse n'imashini imesa ikagira aho bogereza ndetse n'aho batereka ndetse n'ibyo bogesha, ikagira ikoranabuhanga ritanga murandasi hejuru ku kabati.

Inzu iherereye Kibagabaga i Kigali, ikaba ari inzi irimo gukodeshwa igihumbi cy'idolari, amafaranga yo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba ari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse ifite uruzitiro rufiteho urugi rw'icyuma rufite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo. Ikaba ifiteho amatafari azwi nk'urugarika y'umweru.

Inzu igurishwa i Kigari, ikaba ari inzu igurishwa amafaranga agera muri miyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ifite irangi ry'umweru ndetse iteye amabengeza cyane hasi ikaba ifite amakaro harimo ibintu bigiye bitanduye hejuru ikaba ifite amatara yaka umuhondo.

Inzu ikoshwa Kibagabaga akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri, ubwogero bumwe ndetse ari inzu iri Kigali ifite imiryango, ibirahure iri mu gipangu ikaba ifite irangi ry'umweru ndetse n'amakararo y'umweru.

Inzu nziza ikodeshwa ifite amabara akurura uyigana ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ikaba irimo ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu ikaba iherereye i kanombe i kigali .

Inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu by'u Rwanda ku kwezi. Ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogeroro bumwe, ifite irangi ry'umweru, amadirishya akozwe mu cyuma ndetse n'ibirahure, ikaba imbere yayo hari amakaro agiye ifite ibara ry'umweru.

Inzu ifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye kikaba bwazitiwe, inzu ikodeshwa i Remera ndetse ikaba ari inzu ifite ubwogero bumwe icyumba kimwe, ndetse ika ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu ikodeshwa ifite icyumba kimwe ubwogero bumwe ndetse n'uburiro bumwe, ikaba herekanwa amashusho y'amatafari y'umweru ndetse n'icyumba cy'ubururu, utubati tw'umukara ndetse n'aho bogereza ibyombo.

Urugi rufite ibara ry'umukara rukoze mu cyuma, hakaba rufunze, inzu nziza cyane ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse, bikaba byose harimo amadirishya yabugenewe meza cyane.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Inzu iri kugurishwa amafaranga ibihumbi cumi na bibiri by'amafaranga ya Amerika i Kigali mu kagarama, ikaba iri ahantu hari umuhanda w'igitaka, ikaba ifite igipangu cy'icyatsi cyijimye ndetse ifite igisenge gifite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Inzu yabugenewe irimo kugurishwa ibamo abantu ikaba irimo kugurishwa amafaranga miliyoni magana atatu mirongo itanu i Kigali mu Rwanda ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'amadirishya afite ibara ry'umukara.

Inzu ikodeshwa, ku munsi ikaba ikodeshwa amadorari ijana, ikaba irimo ibyumba bitatu ndetse akaba ari nziza, ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'urwicariro ruri hanze, hakaba hariho intebe zikoze mu byuma ndetse n'imiryango ifite ibara ry'umukara, ndetse n'ibyuma by'umukara.

Iduka ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, higanjemo amandazi ndetse n'amasambusa, imbere yaho hakaba hari abategarugori babiri bafite imisatsi bambaye agapfukamunwa ndetse umwe muri bo akaba yambaye umupira w'umweru ndetse unudi yambaye umupira w'umukara.

Inzu y'ubucuruzi igeretse ikaba ari inzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba hagaragara ibyapa by'ubucuruzi bucuruza imyenda ndetse n'ubwishingizi bugiye butandukanye, amabanki ndetse n'imideri.

Inzu igeretse gatatu igaragara ko ari iy'ubucuruzi ikaba irimo ibikorwa abantu bitabiriye, hakaba hari imitaka isa umutuku ndetse n'ibikarito bisa kaki yijimye.

Inzu yabugenewe benshi bazi n' isoko ariko ubungubu ryagezweho, abantu babiri barimo kugura ndetse hari n'umwe uri imbere yabo urimo kubaha ibyo bifuza, umwe muri bo akaba yambaye agapira gasa umutuku ndetse n'ipantaro y'ubururu, undi akaba yambaye umupira ufite ingofero y'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Ibiribwa byiganjemo imineke, imyembe ndetse n'amaronji, byose bikaba bihagaze ku meza yubakishije amatafari ahiye ndetse hose bikaba biri mu isoko ryagenewe ubucuruzi n'ibintu bigiye bitandukanye, hakaba higanjemo abantu b'abategarugori bambaye imyenda y'umutuku.

Mu Rwanda hari utubari tugiye dutandukanye twinshi, utubari two mu Rwanda dukomeje guterimbere bitewe na serivise nziza tugenda dutanga, ahangaha hari intebe nziza abaturage bashobora kuba bakwicaramo ushobora kuba wasohokana n'abawe ndetse mukahagirira ibihe byiza kuko bababafite ibinyobwa bitandukanye.

Iduka ry'ibinyobwa bigiye bitandukanye, rikaba ari iduka imbere yaho hari abakiriya barigana bambaye ishati ndetse n'umupira, umwe muri bo akaba yambaye agapira karimo icyatsi n'umuhondo n'ipantaro y'umweru ndetse hakaba imbere hari umucuruzi wicaye wambaye amadarubindi, imisatsi myinshi ndetse n'umupira w'umutuku.

Isoko ry'ibikoresho by'abategarugori muri ibyo bikoresho akaba higanjemo amashakoshi urebye hasi gatoya nk'abana bagenda higanjemo abagore abagabo barimo ni mbarwa umugabo umwe ni umuzungu.

Iduka rigurisha ibyerekeranye n'amatara, harimo umugore wirabura ufite mudasobwa imbere ye, inzu ikaba ifite ibikuta bisa umutuku ndetse hakaba harimo amatara agiye atandukanye.

Umugore wicaye mu biro , umugore akaba yambaye amataratara, akaba yambaye ikote ry'umukara mu imbere yambariyemo umwambaro w'umweru, imbere yu mugore hakaba hari ameza ateretseho amazi ari mwicupa riri mubwoko bw'inyange.

Iduka ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo inzoga ndetse n'amaji agiye atandukaye y'imyembe. Hakaba hejuru hariho amatara ndetse n'utubati tugiye dutandukanye, dufiteho amatara na two.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye by'ibiribwa, bikaba byiganjemo imbuto, ndetse n'ibindi bintu bateka bakora isosi, amakaroti, inyanya ndetse n'ibitunguru, hirya hakaba harimo ugura acaguramo ibyo yifuza, undi akaba yicaye ategereje ko bamuzanira, bakamubarira amafaranga y'ibyo yaguze.

Iduka rigiye ritandukanye rikaba ririmo abantu batatu biganjemo abategarugori babiri, umwe witandiye undi akaba ari umugabo wambaye umupira w'ubururu, bimwe mu byo bagurisha hakaba harimo amaherena ndetse n'ikweto.

Inzu y'ubucuruzi yabugenewe irimo ibintu bigiye bitandukanye, ikunda gukoreshwa n'abantu buzima bwa buri munsi, hakaba hahagaze abantu nka bagera muri batatu cyangwa bane, bari kugura ndetse n'abandi, n'undi umwe urimo kubaha ibyo bashaka.

Abategarugori ndetse n'abagabo bose bari mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibintu bikozwe mu bitenge ndetse n'imyenda, umwe muri bo akaba ahagaze areba imbere ye afite igikapu cyabugenewe gifite ibara ry'umukara, undi akaba yifashe mu mayunguyungu afite nawe igikapu cy'umweru ateze igitambaro k'iroza.

Imbaga nyamwinshi irimo kugendera mu mbuga, ikaba ari imbuga yubakijwe amatafari yabugenewe asaswa hasi ndetse, akaba barimo kugenda bareba mazu y'ubucuruzi mu maduka ndetse muri ayo maduka bakaba bacuruza imyenda ikozwe mu bitenge ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikiganza cy'umugoreri kikaba ari ikiganza gifashe ikarita ifite ibara ry'umweru, hakaba haciyemo umurongo w'ubururu ndetse n'amagambo yanditseho yandikishijwe mu ibara ry'umukara, byose bikaba biri ku meza bikozwe mu rubaho.

Abantu biganjemo bategarugori ndetse n'abagabo muka bambaye imyenda yiyubashye harmo ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru bakaba bakikiye ibintu barimo kwamamaza bahagaze imbere y'inzu iri mu ibara ry'umutuku bwerurutse ndetse n'amadirishya.

Abantu baje ku kibuga cy'umupira gufana imikino, bakaba bicaye ari benshi mu byatsi hakaba hari undi uhagaze ufite icyuma ndangururamajwi yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro isa ubururu bwijimye, akaba afite ingofero y'umukara mu kiganza cye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, akaba ari umugabo uhagaze imbere y'ameza iriho telefone ndetse n'igitambaro cy'umweru n'ubururu, akaba acigatiye ijambo aresesibi, bikaba byanditse ku gapapuro k'umweru ndetse n'ubururu, inyuma ye hakaba hari igikuta kiri mu ibara ry'umutuku.

Umusaza n'umukecuru bafatanye akaboko bigaragara ko yishimye, akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'umukenyero w'umweru, umukecuru akaba yambaye isengengeri isa ubururu ndetse n'umukenyero w'umweru, akaba hari amagambo yanditseho, yanditseho ejo heza ejo byanditse mu ibara risa ubururu heza mu ibara ry'icyatsi.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Mu Rwanda hari utubari tugiye dutandukanye twinshi, utubari two mu Rwanda dukomeje guterimbere bitewe na serivise nziza tugenda dutanga, ahangaha hari intebe nziza abaturage bashobora kuba bakwicaramo ushobora kuba wasohokana n'abawe ndetse mukahagirira ibihe byiza kuko bababafite ibinyobwa bitandukanye.

Icyumba cyuzuye utubati, utwo tubati tukaba turiho ibiryo bigiye bitandukanye ndetse n'ibintu byifashishwa mu isuku mu ngo hirya no hino ku munsi wa buri munsi hejuru hakaba huzuyeho amatara amurika cyane, hasi hakaba hari amakaro afite ibara ry'umweru.

Icyumba kinini gikorerwamo ubucuruzi, kikaba gifitemo ububati burimo ibiribwa bigiye bitandukanye bifunze mu makarito ndetse kikaba gifite ibikuta, cyubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umweru ndetse hejuru hakaba hariho amatara.

Umugore urimo guhaha ibicuruzwa bitandukanye harimo imiceri, akaba ari mu iduka ririmo abagabo batatu, umwe wambaye umupira usa umuhondo, ipantaro y'umukara, undi yambaye ikanzu isa ubururu.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye byo kurya, akaba ari iduka rifite ahantu hanini, bikaba bigiye bipanze ibiryo mu tubati tugiye dutandukanye turi mu ibara ry'umukara.

Abategarugori babiri bose bakaba bafite imisatsi miremire, umwe akaba yambaye isengero y'umweru ndetse bigaragara ko arimo guhaha, undi akaba arimo kumubarira igiciro cy'ibyo yaguze. Ndetse hirya yaho hakaba hari ikigare kirimo ibyo uwonguwo urimo kugura yagiye ahitamo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite imisatsi ndetse akaba ateruye ikintu gikoresha amashanyarazi cy'ibara ry'umukara ndetse n'umweru ndetse hakaba hari hirya utubati duteretsemo bimwe muri byo yafashe by'ibikoresho bikoresha amashanyarazi.

Icyumba kinini kiri mu nzu kikaba gitatsemo amatara ndetse n'ibiribwa, kikaba cyaragenewe ubucuruzi bw'ibiribwa hakaba harimo umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse ni umutegarugori, akaba afite imisatsi myinshi, akaba arimo gutwara ikigare agenda ashyiramo ibyo kurya.

Iduka rigezwehoka, rikaba ari duka rifitemo amatara ndetse n'ibyerekezo byerekana aho ibintu waba wifuza kugura cyangwa se wifuza kuba wafata aho wabisanga ndetse bikaba birimo utubari tugiye dutandukanye, turimo ibintu bigenda bitandukanye nabwo by'ibiribwa cyangwa se ibintu by'amasuku.

Abategarugori ndetse n'abagabo bari mu iduka rikaba ririmo ububati burimo ibiribwa bigiye bitandukanye, ndetse n'ibindi bintu bagenda bakoresha mu isuko, umwe akaba afite ikigare agenda ashyiramo ibyo ashaka guhaha, inyuma ye hakaba hari abantu bagenda bamufotora bafite amakamera.